Abantu babiri umugabo n'umugore, umugabo wambaye imyenda z'ubururu n'umugore wambaye imyenda z'umutuku, umugore akaba yambaye n'itaburiya y'umweru, ndetse akaba afite n'ibyuma byo mu matwi biziritseho imigozi ifashe ku mugabo ku gitambaro kiziritse ku kaboko, bikaba ari ibyuma bikoreshwaga mu gupima umuvuduko gw'amaraso.

Utubati turambitseho imiti y'amoko agiye atandukanye. Ikaba ari miti yifashishwa mu kuvura abarwayi, aho muganga yandikira umurwayi imiti ku rupapuro, hanyuma umurwayi akaja kuri farumasi bakabasha kuba bayimuha.

Inzu yubatswe mu bujyo bwa kijyambere, irimo inzu icuruza imiti ivura abantu. Ubu bukaba ari uburyo bwifashishwa mu kugeza ku bantu imiti yabugenewe, igihe bavuye kwivuza. Akaba ari ahantu abantu bajya igihe muganga arangije kubandikira imiti ibavura indwara barwaye.

Icyumba kirimo etajeri zirimo imiti igiye itandukanye y'amoko menshi, yifashishwa n'abaganga babyigiye mu guha imiti abarwayi bayandikiwe n'abaganga, bitewe n'indwara barwaye.

Ikimera cyitwa igisura, iki ni ikimera gikundaga kuboneka mu mashamba. Iki kikaba ari ikimera gikunda kwifashishwa n'abantu mu gihe bashaka kuvura indwara ziteraga mu nda.

Inzu yubatswe mu bujyo bwa kijyambere ifite ama esikariye ndetse n'imijyango z'umukara n'ibirahuri birimo amarido, imbere yayo hari ubusitani bwiza buteyemo igiti, izi zikaba ari inzu cane cane zibikwamo ibintu bya leta cangwa se zikoreshwaga n'abanyeshuri.

Ikimera cy'isanduruma, iki ni ikimera kimera mu mashyamba ndetse no mu bihuru, kikaba ari ikimera cyifashishwa mu kugabururira amatungo, cyane cyane inkwavu. Kikaba ari ikimera gitanga umusaruro, iyo kibashije kugaburirwa inkwavu.

Umurima w'ibyatsi urimo amabuye ndetse n'ibishishwa bakuye ku bigori ndetse ukaba urimo n'igihingwa cy'ikibi cy'amashaza, akaba ari amashaza yifashishwa nk'impeke ndetse akaba anifashishwaga mu gutegura amafunguro ya buri munsi mu kurwanya imirire mibi.

Ikimera citwa umuharavumba, kikaba ari ikimera cifashishwaga mu kuvura inzoka zo mu nda, cyane iyo abana aribo bazigwaye, ariko n'abantu bakuru bakaba bagikoreshaga iyo bagwaye mu nda. Kikaba kinakoreshwaga mu gukora bimwe mu binini bitangwa n'abaganga.

Ikimera gifite utuzeru hejuru tw'amahwa, ndetse n'ibibabi by'icyatsi giteye imbere y'urugo rwukishijwe ibiti ndetse n'ibyondo, iki kikaba ari ikimera kigaragara cyane cyane mu bihuru, ndetse no mu mashyamba.

Ibimera by'icatsi byameze ku mabuye, ku buye ry'urutare, bikaba ari ibyatsi bikundaga kuboneka cane ku misozi igizwe n'ibitare binini. Bikaba ari ibyatsi bimera kubera ko kuri ibyo bitari cane haba hari amazi aba ari kumanukaho.

Igihingwa c'umubirizi, munsi yaco hateyemo igihingwa c'umuharavumba. Ibi bikaba ari ibihingwa byifashishwaga mu kuvura abantu inzoka zo mu nda, cane cane abana igihe bagwaye mu nda kubera kurya ibiryo birimo imyanda.

Ikimera cy'igikakarubamba. Akaba ari ikimera gihingwa n'abaturage, cyane cyane ariko kikaba kiboneka mu mashyamba ndetse n'ibihuru. Iki ni igihingwa cyifashishwa mu gukora imiti, ivura mu nda ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.